Umukobwa wambaye imyenda y'umweru n'ingofero y'umweru ifite akabara k'umukara ufashe inyama bigaragara ngaho yize ibintu bijaniranye no guteka akabari ahantu hari ibyuma bisize amarangi g'umuhondo.

Uburezi bw'u gwanda bwigishaga abanyeshuri ibintu byerekeranye n'imyuga, hakaba ari abanyeshuri bambaye amasarubeti gw'ubururu kandi bafite n'ibikoresho bakoreshaga, bikaba birindaga ubushomeri mu gihugu, bigateza n'imbere igihugu cacu.

Abanyeshuri bambaye iniforumu y'umweru . Bakaba bafite udusatsi dukeya, bicaye mu ishuri bagiye kwandika bafite n'amakaramu ndetse harimo n'umukobwa wambaye rinete bisa n'aho bari mu magurupe bari gukora ibyo bahawe. Inyuma hakaba hariho urugi rufite amabara y'ubururu.

Mu Rwanda habamo amashuri yigisha imyuga igiye itandukanye harimo n'umwuga wo guteka. Aba bakaba ari abatetsi bambaye imyenda yo guteka ibarinda . Harimo umuhungu wambaye agapfukanwa k'ubururu na ga z'ubururu . Bakaba bari guteka ibyo kurya abantu barya.

Abanyeshuri bigaga mu ishuri ryigishaga imyuga, umwuga wo gukora ingweto bakaba bambaye amasarubeti g'ubururu bakoreshaga, igihe bari kwirinda imbanuka n'izindi agisida zabaho, bakaba bafite ameza bashiragaho ibyo bakoze.

Abatetsi badufashe gutegura amafunguro atunga imibiri yacu, batetse kuri gaze, hakaba harimo abambaye ingofero z'umweru ndetse n'ibitambara dukoreshe by'ubwirinzi kugira ngo imyambaro twambaye itandura, hakaba hariho na wotamelone iruhande rwabo, basa nk'aho bagiye guteka ifiriti.

Abanyeshuri benshi bateraniye hamwe bari kumva umwarimu wabo ibyo ari kubagezaho. Bakaba bari ahandu hari ibikoresho bifite amabara y'ubururu, ndetse na parafo, n'amatara manini, n'amadirisha. Bakaba bagiye kwandika bafite n'amakaramu.

Ahantu hakoregwaga siporo hakaba hariho ibiti byiza cyane bimeze nk'imitako akaba ariho n'inzu isize amaragi g'umuhondo n'igipangu inyuma y'iki giti hakaba hariho utuzu tw'umutuku turi utuntu tw'utudarapo ndetse n'ipoto ririho itara hakaba ariho n'ibindi biti byenda gusa n'ibisho...

Uburezi mu Rwanda bwateye imbere， aho usanga buri munyeshuri wese yiga afite imashini bita kompiyuta，mu ndimi z'amahanga hakaba ari umukobwa n'umuhungu bambaye karuvati，umukobwa akaba afite igisuko ndetse n'akantu yapfunditse mu mutwe，kamufashe kugira ngo agaragare neza， bakaba bambaye n'amashati ya yuniforume y'umweru， n'amajipo g'umukara， bakaba bari gukoresha imashini ziri ku meza.

Abanyeshuri bigaga ibyerekeranye n'imyuga bitumaga mu gihugu ubushomeri bugabanyuka, kuberako buri wese yihangiraga umurimo n'ubujura bugacika ndetse n'amakimbirane mu duce ,kuberako abajura bateza amakimbirane bakanica.

Uburezi bw'ugwanda bufite ibyiciro bigiye bitandukanye aho bigishaga abana bigaga muri garidiyeni mu ndimi z'amahanga hakaba aho bigiraga harih'intebe ndetse n'akabati n'ameza gariho ibikoresho bakoreshaga igihe bari kwiga.

Uburezi bwigishaga ibyerekeranye n'imyuga bwateje imbere abakobwa benshi turi kubona aha ngaha, bateguye amafunguro ku mapureto gari ku meza, bakaba bambaye ingofero z'umweru n'amakanzu y'umweru n'amataburiya bakoreshaga mu gihe bari kwirinda, bakaba bari mu nzu ifite amarangi g'umweru n'inzugi zisa naho ari kaki n'utubati tugiye dutandukanye.

Uburezi bw'u gwanda bwigishaga ibintu byerekeranye n'imyuga harimo nko gukora amamodoka ndetse n'ibindi hakaba hariho abantu bari gukora ibyo bigishijwe bambaye amasarubeti g'ubururu n'inkweto z'umukara n'amasogisi umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara undi ak'ubururu n'umugabo ushinzwe kubabera koci akaba abwira ibyo barakora.

Abanyeshuri biga ibintu bijyanye n'imyuga， bakaba bambaye amasarubeti aciye amaboko ya kaki， inyuma yaho hakaba hariho ingazi zifite amabara y'icyatsi n'igipangu gifite amabara y'ubururu，n'inzu ifite puderi isa na burefonse， bakaba bafite igikoresho bakoresha.

Abanyeshuri biga imyuga mu Rwanda, bajya mu gukora ibyo biga igihe bambaye amasarubeti n'ingofero z'ubwirinzi, kugira ngo badahuriramo na agisida, bakaba basuwe n'abandi bantu bari kubareberera ibyo bari gukora ibyo aribyo.

Mu Rwanda amashuri yigisha ibintu byerekeranye n'imyuga igiye itandukanye, byateye imbere ni abanyeshuri biga ibintu bijyanye n'imyuga ikoreshwa amashanyarazi, bambaye amasarubeti y'ubururu bakaba bari mu nzu ifunguye umuryango ifite urugi rw'umweru.

Abandu bambaye amasarubeti abiri y'ubururu ni na ga z'umutuku n'ingofero ziba zugiye dukoreshaga turi kwirinda bari gusudira ibyuma bari guhuza igice kimwe n'ikindi, inyuma yabo hari ikibambasi gifite amatafari gahiye n'iki n'ingorofa n'ingorofani, n'ibindi bikoresho bisa naho ari amadirisha.

Ibikoresho bigiye bitandukanye dukoreshaga mu burezi bw'u Gwanda kugira ngo hagabanyuke ubushoyomeri mu Gwanda ndetse n'iyicwa ry'abantu rigabanyuke kugira ngo u Gwanda rutere imbere ndetse n'abaturage muri rusange.

Uburezi bw'u Gwanda bwigishaga imyuga zigiye zitandukanye harimo kudoda, gukora indebe, n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo biteze imbere Igihugu cacu, birinde n'ubushomeri, n'ubujura bukoregwaga mu ngo zigiye zitandukanye n'amakimbirane.

Uburezi nyagwanda bujaga burigisha abanyeshuri babo ibintu byerekeranye n'imyuga ngo gukora indebe, izi mubona ahangaha. Hakaba harimo n'utubati n'ibindi bikoresho twifashishaga mu rugo, ndetse na sima iteye amarangi g'ubururu.

Uburezi bwigisha ibintu byerekeranye no kudoda mu Rwanda bwateye imbere, aho usanga bakoresha imashini zigiye zitandukanye ,hari izikoresha umuriro, n'izindi bakoresha amaguru ,hakaba harimo amabara atandukanye muri zo, iry'umuhondo ,umweru, iruhande rwazo hakaba hariho udupapuro turimo ibikoresho bakoresha, dufite amabara y'ubururu n'intebe bicaraho.